Umugabo uhetse ipombo, akaba yambaye n'imyenda yo guterana umuti, akaba ari gutera umuti ibigori, kugira ngo bitatakwa na nkongwa.

Umugabo wambaye amashashi akaba ari gutera umuti ikawa, ndetse n'ibishyimbo biri hafi aho, kugira ngo bitekuribwa n'udukoko.

Ifumbire umuntu afashe mu intoki bashize ahantu ikahamara igihe kirekire ikabora, bakaba bayifashisha mu ugutera ibirayi, ibishimbo, karoti ndetse n'amashu.

Umugabo arimo aratera umuti cyangwa se gufuhirira umuceri akoresheje ipombo. Kugira ngo arwanye udusimba turya umuceri.

Imiti iri mu dukarito ikoreshwa mu buhinzi kugirango amababi y'ibihingwa abe icatsi cyane. Ibi bikaba byongera umusaruro k'ubuhinzi.

Umugabo yambaye agapfukamunwa. Akaba ari gufuhirira umwotsi mu byatsi, kugira ngo yice ubukoko bwaba buri muri ibyo byatsi. Bityo rero kugira ngo ibyatsi bigire ubuzima bwiza.

Ikiyaga, harimo agasozi karimo hagati n'indi misozi iri hirya y'iki kiyaga, aya mazi bakaba bayakoresha mu kuroba, mu gufuhirira imyaka, ndetse n'ubwato bukaba bugenda muri aya amazi.

Ubutanda bororeramo amafi bukaba bushinze mu mazi. Aho bufata amafi, amafi bukayarera neza bityo agakura neza agatanga inyama zimeze neza.

Indagara ziri mumashashi, izindagara akaba ari ubwoko butandukanye, akaba zifashishwa mu gukora isosi, ndetse n'abandi bakazirya ari mbisi, kuko zuzuye ubuziranenge, zikaba zuzuye n'intungamubiri.

Amafi ari mu rushundura, aho ruteretse mu gasahane kugira ngo ntabashe kugwa hasi kugira ngo atandura.

Isahani irimo inyama, izo nyama zikaba zitekeshejwe inyanya ,kandi hakaba hari amasahani abiri.

Amafi ari muri firigo ndetse iyi firigo ikaba irimo n'uducupa tw'icyatsi turimo ibyo kunywa, izi fi zikaba ziri muri firigo kugira ngo ntizangirike.

Isahane iri ho indimu, amafiriti, ndetse n'inyama, hejuru hakaba hari sereri mbisi.

Umugabo uri mu bwato ,impande ye hari ibyatsi kandi akaba ari kuroba amafi .Uyu mugabo yambaye akajire kamurinda kuba yarohama.

Amajyeri ni kimwe mu bihingwa bikungahaye cyane mu ntara y'Amajyaruguru, bakaba bayatera kugira ngo bayarye, kandi ari mu murima, mu murima hakaba harimo ibishingirizo ndetse hakaba amajeri harimo n'ibindi byatsi bitandukanye.

Umurima uhinze ufite imitabo n'byagati, imbere ya ho hakaba hari ibiti by'intuse binini, birebire, batemye bigashibuka, ku buryo ubu babyubakisha.

Urusasa ruteye impande y'akayira ,uru rusasa bakaba barukoresha mu kubaka amazu ,ndetse rukaba rufasha ubutaka mu gukomera, bigatuma isuri idatwara amazi.

Igitoki kiri mo inkingi, igitoki bakaba bakirya, cyitwa intude. Kikaba gitanga isosi imeze neza cyane.

Umuririma uteyemo ibinyomoro ,ibinyomoro hakaba harimo ibyatsi ,inyuma hariyo urutoki n'ibigori ,kandi ndabona n'umunara. Ibinyomoro akaba ari amatunda akundwa cyane ,kuko yongera amaraso.

Ibirayi biteye mu rutoki, hagati mu nsina hakaba hari n'amateke, muri izo nsina n'ibirayi ndetse hakaba harimo n'igiti cy'umwumbati.

Insina y'igitoki iri mu murima, inyuma hari urutonde rw'mabuye rurimo ikidodoki, ikidodoki kikaba cyifashishwa nk'imboga, ku banyarwanda benshi batandukanye.

Abantu babiri bari kwahira ibyatsi byitwa isanduruma, bari ku bipakira mu mifuka bari kugira ngo babijanire amatungo abirye, kandi ndi kubona n’umuharavumba imbere yabo n’ibirayi biteye mu murima.

Umurima batemyemo ibigori ukaba waramezemo isanduruma. Bakaba barahinze imitabo n'ibyagati, bakaba biteguye kongera kuhahinga kugira ngo bateremo izindi myaka.

Igiti impade y'igite hari akayira, ako kayira kari guturukamo abantu, kandi hakaba hari ikibuga bakiniramo umupira hakaba hagaragara n' amashuri.

Umurima uteyemo urutoki bakaba bawuhinze kugira ngo urutoki rukure neza, cyangwa se kugira ngo bateremo indi myaka ivangwa n'urutoki.

Mu murima, umurima ukaba uhinze, ukaba uteyemo ibishyimbo, kandi uwo murima ukaba ufite imitabo n'ibyagati.

Ibigori byumye byaguye biri mu murima bakaba barabisaruye, bategereje yuko baza guhinga bakabihingiraho cyangwa se bakabijyanira amatungo akabirya.

Umurima uteyemo ibigori. Impande yawo hari undi murima urimo ibyatsi, ibigori bikaba bigaragara yuko byeze ,kandi nyirabyo yiteguye ku bisarura.

Abagabo bari gupimura, ikiguri c'imyumbati, kugira ngo barebe ibiro ceze gifite. Biragaragara ko umusaruro w'imyumbati ari munini cyane.

Abantu bari muri girinihawuzi, aho bateye imyaka yabo mu mifuka, kugira ngo babe bakontorora, uburyo ibihingwa byabo bikora.

Indimu ikase isa icyatsi ndetse n'amababi yazo, izi ndimu inyama zikaba ziriho amazi, indimu ikaba idufasha mu kurwanya ibicurane ndetse n'izindi ndwara z'ubuhumekero.

Abagororonome barimo barafuhirira ibigori ndetse n'amashu mu uburyo bugezweho bw'ikoranabuhanga, aho amazi ari guca mu itiyo.

Umugore n'umugabo, umugore ari kuri telefone bakaba bari mu murima wa soya. Bakaba bakikijwe n'imisozi .Bigaragara yuko ubuhinzi bwateye imbere kandi n'ikoranabuhanga riri ku isonga.

Umurima uteyemo amashu, Aya mashu akaba ateye ku murongo bikaba byongera umusaruro wayo. Kandi, aya mashu akaba ameze neza, afite ikirere gisa neza. Akaba ameze neza, akaba azatanga umusaruro utubutse.

Voka isatuyemo ibice bibiri ,n'indi idasatuye, iyi voka ikaba iteretse ku meza ikaba irimo ikibuto mu ruhande rumwe, izi voka zikaba ari imbangurirano.

Imyumbati ,abantu bakaba bayirya, ntibayihase ,imwe ikaba iribwa ari mbisi abandi bakayirya ihiye.

Ibisheke birambitse ku amabuye, arimo barabicuruza. Umugabo uri kubicuruza yicaye inyuma, kandi inyuma, inyuma hari imifuka, yabyo.

Imifuka y'ibirayi iteretse mu muhanda ,aho uri mumifuka y'ibisete, aho hagiye kuza abantu bakayidoda kugirango babashe kuyipakira mu modoka ,ibirayi baje kubigurisha.

Imirima ihinzemo ibigori ,ifite n'amazi bakoresha bari kuhirira mu bihe by'izuba, ibigori bikaba bimeze neza ,kandi bikaba bizatanga umusaruro mwiza.

Intama yitwa iderina iri mu murimarima , umurima uteyemo ibyatsi. Iyi ntama ikaba ifite ibyoya byinshi by'umweru. Abantu bakaba bayirya ,ndetse n'uruhu rwayo rukaba rukoreshwa mu gukora imyenda.

Urusenda urusenda rwanitse ku mahema inyuma yabo hari amazu y'abaturage, urutoke ndetse n'ibindi bikorwa remezo biraho.

Indimu ikase ndetse n'izindi ziri ku ruhande rwayo. Ikabidufasha mu bintu byinshi bitandukanye kuvura inkorora ndetse n'izindi ndwara.

Umugore uri gucuruza imbuto mu isoko, imbuto zimwe zikaba ziri mu mufuka, ndetse izindi akaba yazitanditse aho ategereje abakiriya, kugira ngo ubucuruzi bwe bukomeze butere imbere.

Ironji ryo mu ibara ry'umuhondo basatuyemo kabiri, ibi bikaba berekanako rivamo umutobe umeze neza, ndetse n'abawuriye bakumva bameze.

Amapapayi ya kizungu arahiye, kandi yeze ari ngufiya, kandi yera ibipapayi binini.

Abagore bari guhinga, bakaba bari guhinga mu misozi, kandi bigaraga ko ari coperative, hari abandi bantu inyuma yabo bahagaze bambaye amajire y'imituku.

Ibishimbo biri mu gisera, hejuru yabyo hari agapapuro kanditsweho mowadani serayine. Ibishimbo abantu bakaba babitonora bakabirya ari intonore.

Ikigega cy'ibirayi, ibirayi bikaba biteretse ku gatanda kugira ngo ntibibashe kubora, kandi kugira ngo babibike bazajye kubitera mu murima byarabaye imbuto.

Ibireti biri mu murima, bifite indabo z'umutuku, zikagira n'utundi turabo dupfunditse, bakaba babikuramo ibinini ndetse n'indi miti yica udukoko.

Abagore bikoreye ibitebo birimo ikawa ndetse n'umugabo. Ikawa ni kimwe mu bihingwa biduha amafaranga mu Gihugu cyacu. Bigatuma imiryango ibaho neza ndetse n'abaturarwanda bakabaho mu buryo buteye imbere.

Voka umugabo arimo kuzibangurira, aho ziri muri nasare, aho zikurira, akaba ari kuzibangurira, kugira ngo abaturage bazazigure, kugira ngo zizere ari ngufi.

Urusenda ni kimwe mu bihingwa abantu bakunze cyane ,kikaba gikoreshwa ahantu hatandukanye nko gukora urusenda rusukika ,ndetse bamwe barurya no mu biryo mu buryo bisanzwe. Kikaba ari igihingwa gikunze guterwa ahantu hagira ubushyuhe bwinshi ,mu burasirazuba bityo kikaba ari igihingwa gituma igihugu cacu gitera imbere.

Abagabo n'abagore barimo gukora ifumbire mborera, iyi fumbire ikaba yifashishwa mu gutera ibihingwa bitandukanye mu Rwanda, iyi fumbire ikaba ituma umusaruro wiyongera.

Ibiinyomoro biteye mu murima ,mu murima ukaba urimo ibyatsi .Ibinyomoro kiba ari gitoya ,iyo gikuze kikaba cyera ibinyomoro.

Intoryi ziri ku isoko bakaba bitegura kuzicuruza. Akaba hari utudobo two kurengamo izo ntoryi bitewe n'amafaranga ufite. Bakaguha mu kadobo gakwiranye n'amafaranga ufite.

Umurima ,ukaba uteyemo tungurusumu ,ziri ntoya kandi zimeze neza, zikaba tungurusumu ziri ku imitabo izo mitabo zikaba zifite ibyagati ku ruhande.

Umugabo wambaye igisurubete c'umuhondo n'ingofero, akaba arimo arasoroma icayi mu murima munini uteyemo icayi.

Amashu arimo ateye mu murima impande y'amashu hakaba hari ibishimbo. Amashu ni kimwe mu bihingwa bikunzwe gutera kuko ni imboga zirinda indwara ndetse zikaba ari zimwe mu imboga zihendutse.

Abagore batanu bafashe inanasi, barimo baraseka. Kandi harimo babiri biteze ibitambaro mu mutwe na batatu batiteze ibitambaro mu mutwe. Bari mu muhanda begereye jaride.

Ibirayi bakuye biri hasi, hakaba hari akapa kerekana ubwoko bw'ibyo birayi bakuye.

Umugabo n'umugore bambaye amataburiya bari muri girinihawuzi gutera imbuto mu uburyo bugezweho bw'ikoranabuhanga.

Ibijumba akaba ari ibijumba bitatu. Kimwe bakimanyuye kikaba gifite munda h'umweru bagaragaza yuko iki kijumba kiryoshye. Kandi ibi bijumba bikaba bitetswe.

Umunyonzi uri kunyonga igare ririho ibitoki, akaba ari kugendera mu muhanda w' igitaka aho atwaye ibitoki byinshi, akaba ari kunyonga igare ari kurisunikira inyuma.

Amagi ari mu gatebo akaba yitegura kujya ku isoko, kugira ngo abantu bayagure. Amagi akaba yuzuyemo intungamubiri poroteyine ndetse n'ibindi byose bituma umuntu abaho neza, kandi akura mu buryo bwuzuye.

Umugore ufashe ibihoho, ibihoho bikaba birimo imigano, akaba agiye kuyitera kugira ngo irwanye isuri.

Ingurube iri mu kiraro, hari ho umugabo uri kuyiha ibyo kurya, n'undi uri ku ruhande uri kuyireba. Ikiraro kikaba cubakishijwe igiti.

Inkoko nini, ifite ibibaba binini, ikaba ifite n'ibirokoroko by'umutuku, n'umutwe mutoya. Abantu bakaba bayibaga, ikabaha inyama. Ikaba iri mu byatsi byinshi by'ibyatsi.

Ibirayi, ibirayi bikaba biterutse mu mifuka aho bitegerejwe yuko abakarani baza kubidoda kugira ngo bijyanwe ku isoko mpuzamahanga.

Abagore n'umugabo bari gusarura umuceri, aho bari kuwuhura bakabona umuceri bari mu gishanga kandi barimo baragosora umuceri barangije guhura.

Isoko usangamo ibirayi ,ibirayi biri Ku dutanda hari n'ibindi biri mu mufuka, hari umugabo uhagaze uri gucuruza ibi ibirayi akaba yipfumbase ategereje abakiriya kugira baze kugura ibirayi.

Inkoko z'inzungu zisa, zifite ibirokoko by'umutuku bifite ibara ririmo umweru n'umukara. Izi nkoko zikaba zitanga umusaruro munini.

Umugore uri kubagara ibirayi, akoresheje intoki. Akaba yambaye igitambaro n'ikoti, akenyeye n'igitenge, akaba ari mu murima akorera neza ibirayi bye.

Indimu itatu, imwe iri hejuru y'izindi ndimu, izi ndimu zikaba zifite ibara ry'icatsi ,kandi izi ndimu zikaba zifashishwa mu kuvura ibicurane'izindi ndwara.

Imifuka y'ibirayi iteretse bakaba bayidoze, iyo mifuka ikaba itegereje imodoka, kugirango bayipakire ,ibashe kujyanwa kugurishwa ku masoko atandukanye.

Imiteja irambitse ku kameza ikaba yitegura kuba yatekwa, ikadufasha mu mirimo itandukanye, yaba gukora isosi, ndetse no kuyirya igeretswe ku bindi bintu.

Amaronji menshi arundanye ndetse hari n'amababi yayo makeya, amaronji amwe arahiye andi ntabwo ahiye neza.

Umugabo uteruye umyumbati weze imyumbati nyinshi, akaba yararigusarura imyumbati ye kandi yishimiye umusaruro imyumbati ye irikumuha.

Umugabo wambaye amarinete n'agapira k'umukara n'isaha ku kuboko n'ingofero y'umutuku akaba yarubatse inzu y'ibiti.

Pavuro ziteye mu murima zikaba zitari zera, hakaba hari amazi ari ku mababi y'izo pavuro ,bigaragara yuko izi pavuro zimeze neza kandi zitoshe.

Umugore wambaye igitambaro akaba afashe n'isuka akaba ari guhinga mu murima, akaba ari guseka kuko bari bari kumufotora kandi akaba yari yishimiye ibijyanye n'umusaruro we.

Igihaza kiri mu murima, cyeze, bakaba bakirya, kikaba gihanagura imyanda mu mubiri, kandi kikaba gikoreshwa nk'imboga nziza, kandi z'indyo ya kinyarwanda.

Amajeri ari mu gasorori gateretse ku meza bakaba biteguye kuyatonora kugirango abashe kuribwa ari urunyogwe.

Ibijumba bitatu kimwe bakaba bagikasemo ibice bibiri kugira ngo barebe uko gisa mo imbere, ibindi barabireka ari bizima.

Ibishingwe aha ni aho babimena, aho abagore babiri bari kubishira mu mifuka kugira ngo bibashe gukoreshwa ibindi bintu by'ingirakamaro muri Karitiye.

Ubunyobwa buri mu bikonoshwa ,buranitswe kugira ngo bazabashe kumena ibi bikonoshwa, kugira bakuremo ubunyobwa babe babukuramo ubunyobwa buseye ,cangwa se ubunyobwa bwo gukaranga.

Igishanga giteyemo umuceri, impande y'igishanga hakaba hari imisozi iteyeho ibiti. Umuceri akaba ari kimwe mu biribwa biribwa cyane mu Rwanda, kandi binaterwa mu Rwanda mu bice byinshi binyuranye.

Ibishimbo by'ubwoko butandukanye buri mu dukosi aho bifite amabara y'umweru, umutuku, umuhondo aho byose biri mu dukosi tungana neza.

Imiteja isutse hasi, iyo miteja abantu bakaba bayikoresha mu guteka, ikaba ivamo imboga zimeze neza abantu barisha indyo zitandukanye.

Amahundo atatu, bakaba bayifashisha mu gukora umusururu, abandi bakayakoresha bari gukora igikoma.

ibishimbo biri mu twebo; akebo kamwe karimo ibishimbo bita mwirasi; akandi kebo karimo ibishimbo byitwa nyiramagorori.

Ibishyimbo biri mu mifuka, aho umufuka bawuzinze kugira ibyo bishyimbo abaraza kubigura babibone bitabagoye. Ibishyimbo hakaba hari umufuka wa seke uri iruhande kandi ukaba uteretse ku ihema.

Imiteja iri mu gasanduku yo mu bwoko bw'umukara, umuhondo ndetse n'icyatsi, ikaba itondetse buri imwe imwe uko isa isa.

Igihwagari kiri mu murima, ni ibihwagari byinshi, tukaba tubyifashisha mu gukora amavuta yorya, ndetse n'ibisigazwa byabyo bikaba ibyo kurya by'amatungo.

Umugabo wambaye imyenda yibitenge, n'ingofero ari kugosora ibigori bimwe biri mu bite ibindi ku ntara ibindi mu mufuka bakaba bari kubigosorera hasi.

Ibigori byanitse hasi, bakaba barimo bari kubihungura, kugira ngo havemo impungure. Bikaba biri guhungurwa n'abana ndetse n'ababyeyi ba bo, kugira ngo bizajye ku isoko babigurishe bihunguye.

Umugore ufashe mu biganza bye imbuto. Imbuto zikaba ziri mu mufuka w'ishashi, akaba ari kuzireba ko zimeze neza, kugira ngo abashe kuba yazaja gutera izo mbuto.

Ibigori bimanitse ku bwanikiro bwabyo， kugira ngo izuba ribashe kubigeraho bizume neza kandi ntibizafatwe n'indwara zitandukanye.

Ibigori bari kubisuka mu kibase, ibigori babyita mayizori, ibigori bakoramo patejone n'ibindi bintu bitandukanye. Bakaba bari kubikura mu base babishira mu y'indi bakoresheje ibakure.

Ibigori bitonoye bitandatu bita tamira bikaba bifite amabara atandukanye, kandi byose bakaba babitonoye. Bikaba birambitse ku meza, bakaba biteguye kubihungura kuko byarumye kugira ngo babashe kubikuramo ibintu bitandukanye.

Ibigori biri mu umurima, birumye, amababi ya byo yarumye, aho bihinzwe ku butaka bunini kandi ibi bigori, bikaba bisa naho byapfuye.

Umuceri uhinze mu gishanga ukaba ufite indabyo uzaturukamo bityo izi ndabyo akaba ari zo ziturukamo umuceri.

Ikigega ca kinyarwanda gishigikiwe n'amabuye, bakaba barabikamo imyaka yiganjemo: ibigori, ibirayi, ibishimbo kugira ngo bimare igihe kirekire bitangiritse.

Umugore ufite ibase, ibase akaba ari kuyihunguriramo ibigori. Hakaba hari ibigori by'umweru, n'ibigori by'umuhondo bita mayezori

Ibishyimbo biri mumasafuriya, bikaba ari ibishyimbo by'ibara ry'umutuku n'ibara ry'umweru, bakaba babishyize mu masafuriya, bakaba bagiye kubiteka.

Umugabo wikoreye ibishimbo mu mufuka, kandi akaba afashe n'umuhoro, akaba yikoreje ikindi gifuka nk'ingata.

Inzuzi zirambitse, izo nzuzi zikaba ziva mu bihaza. Abantu bakaba bazifashisha kuzirya ari mbisi, bazikaranze, cyangwa se bakazikuramo ifu, bashira mu biryo.

Soya batonoye, akaba ari igishishwa cyerekana uburyo soya ziba ziri mu bikonoshwa byazo ,mbere y'uko bazitonora.

Butike, butike irimo imifuka ya kawunga, imiceri, ndetse n'ibidomoro by'amavuta. Hejuru kuri kontwari hari amasafuriya n'ibindi bintu.

Ihene, inka, aho ziri ku muhanda, umugore akaba azishoreye agiye kuziragira, inyuma yazo hari urutoki rumeze neza.

Umusore uri mu nkoko imwe arayifashe n'inkoko nyinshi zibayeho neza ,zikaba zimuha umusaruro w'amagi ,izindi akazigurisha ,kandi akaba azorerera mu nzu.

Ingurube iri kugenda mu muhanda. Iyo ngurube ikaba iri yonyine, imbere yayo hari urugi rufunguye ikaba ifite n'umurizo ugondamye.

Inka y'ibara ry'umweru n'umukara, iyi nyana ifite n'amahembe, irimo yagonze ijosi ireba ibiri inyuma yabyo, kandi iyi nka ikaba irimo ubwatsi bita umucaca.

Inka ziri mu kiraro aho ziri gutererwa inshinge, aha bigatuma zidatera amahane, kandi bigatuma Veterineri azitera inshinge mu buryo bworoshye. Kandi veterinere yambaye imyenda yabugenewe y'abaveterineri.

Umushwi ukiri mutoya, witegura kuba wakura bari kuwuha ibyo kurya, kugira ngo bongere ibiryo byawo, kandi uyu mushwi ukaba usa neza, uri mu kiraro cawo.

Ingurube ebyiri ziri mu ikiraro, zikaba zunamye ziri kure hasi, indi ikaba iryamye, izi ngurube zikaba ziri mu kiraro cyubakishijwe isima n'ibiti.

Ikiraro kirimo amatungo ,kikaba gisakaye kandi kikaba gikoze mu biti, ibi bituma amatungo abaho neza kandi atanyagirwa ,bigatuma indwara zidafata amatungo ndetse n'ibindi biza byayangiiza.

Inyama bari kubaga mu bujyo bw'ikoranabuhanga aho zimanitse hejuru, kugira ngo birinde ko zakwandura, kandi bakaba bari kuzibagira mu nzu.

Inka yabyaye ikaba yabyaye umutavu. Inka ikaba iri kurigata umutavu wayo kandi uyu mutavu ukaba uryamye mu byatsi kugira ngo utangirika.

Intama ziri hanze ziri kurisha baziziritse. Ziri kurisha ubwatsi ndetse inyuma yazo hari ikirunduro ziraramo, ndetse n'ubwatsi mbe ho zirya.

Umuti ndetse n'urushinge Abaveterineri bifashisha mu kuvura uduheri dutoya tw'inyamaswa. Uyu muti rero ukaba uteretse ku gitambaro cy'ubururu.

Inkoko eshatu zisa, n'imwe idasa nazo, ihagazemo hagati mu kipoboli cyangwa se mu kidomodomoro, ni ikidomoro baciyemo kabiri, ziri kurya ibiheri bizifasha gukura.

Umugore uri korora inkoko, inkoko zikaba ziri mucumba aho ziri kurya impungure, kandi umukecuru akaba ari kuzikorera amasuku.

Inka ifite ibara ry'umweru n'umukara iri mu kiraro, iyi nka ikaba ifite igisebe, aho irwaye bategereje viterineri ngo ayivure.

Inka baryamishije hasi bakaba bari kuyizirika kandi ikaba ifashwe n'abantu, bamwe bafashe amaguru, abandi bafashe kunda aho bafashijwe n'umuntu.

Ikiraro kirimo ingurube ndetse n'umuntu uhagazemo, arimo kuzitaho izo ngurube zisa, ziri mu kiraro.

Imishwi mitoya ikaba iri mu nzu, kugira ngo ishyuhe, ikure neza, bityo izatange amagi mu buryo bwihuse, kandi butarambiranye.

Ihene ziziritse ku biti ,zikaba zi zitegereje ko zaza zikagurwa ,izi hene zegereye ku muhanda kandi zikaba zirmo ubwoko butandukanye.

Inka z'ibimasa bitatu zisa ,zikaba ziri mu muhanda aho zigiye kuragerwa.

Veterineri ari gutera inka urushinge bari mu kiraro, hakaba hari umugabo umufashije inyana kugira ngo idatera amahane, kugira ngo veterinere ayitere urushinge neza.

Inka yabyaye ikaba ifite akanyana ku ruhande gatoya, ikaba iri kurya ubwatsi. Inka ikaba ifite ibara ry'umukara n'umweru. Ikaba iri mu kiraro.

Inyoni ifite umurizo muremure, ikagira ni ibirokoroko kandi ikaba ihagaze ku giti, iz'inyoni rero ni zimwe mu zisurwa na ba mukerarugendo, kubera ubwiza bwazo.

Inyoni ihagaze ku giti, iyi nyoni ikaba yitwa igishwi, ikaba ifite umurizo w'umuhondo, ikaba ififite n'umunwa usongoye uyifasha kuba yakwica ibyo ibyo ishaka kurya,

Ibishwi biri mu cyari, akaba ari inyoni ntoya zikivuka, zikaba ariho ziryamye kugira ngo zikure.

Imvubu iri mu mazi ,aho iba iri mu mazi kandi ikaba yoga .Ifite ubwoya bwinshi buyirinda kuba yakonja.

Impongo ziri mu ishamba. Zikaba ziri kwiruka, kandi ziri gukina. Bikaba bigaragara y'uko zishimye. Zikaba ari impongo itanu.

Ibishwi bitatu by'inyoni biri ku giti, zikaba zirikurebana zikaba zifite ibara ry'umuhondo iminwa isongoye, kandi bifite n'amababa asa kandi izo nyoni zikaba zisa uko ari itatu.

Inyoni ibiri zifashe ku gashami ,zikaba ziri kwerera ,zikaba zifite imirizo miremire ,kandi izi nyoni zikaba zisa.

Ingwe iri hejuru mu giti, aho yishe indi nyamaswa, ikaba iri kuva amaraso. Iyi ngwe ikaba ifite ibara ryiganje mo umukara n'umweru.

Inyoni iri ku giti. Hejuru ikaba ifite umunwa usongoye wumutuku, ukagira n'amababa yumukara, icyatsi, ndetse n'umweru.

Igiti kikaba gihagazeho inyoni ,ku ishami izinyoni zikaba zisa kandi zikaba zifite ibara ry'umweru n'umutuku mukeya n'umukara.

Umutubu ufite wifitemo utudomo tw'umukara, ukaba uri ku catsi c'icatsi ukaba ufite amaso manini.

Inyoni zihagaze ku urutsinga rw'amashanyarazi mu kirere, imwe ikaba yasamye iri guhereza ibiryo mugenzi wayo yo iri kuguruka.

Inguge ifite ubwoya bw'umweru n' umukara yasamye. Iri mwishamba kandi amaso yayo ni umukara ifite n'amenyo y'umweru n'umusatsi w'umukara.

Inkende ziri mu ishyamba zihagaze ku mabuye, inyuma yazo hari urusasa kandi hagati y'utu dukende tubiri, hariho akapa kariho akantu hejuru k'amagambo, kandi izi nkende zimeze neza.